Abantu benshi bicaye mu nzu cyangwa icyumba kizwi nk'icyumba gitangirwamo ibiganiro, biragaragara ko bateze amatwi barikumva, hari umuntu umwe uri gutambuka hagati yabo afite indangururamajwi ari kugenda ababwira nabo bakumva.

Abaturage bari mu nama barimo barahabwa ikiganiro biragaragara ko ari abaturage bari mu byiciro bibiri, icyiciro cy'abashinzwe umutekano aribo bitwa badaso, hakaba n'icyiciro cy'abaturage ariko bose bakaba bahuriye mu nama.

Abantu babiri bagaragiwe umusore n'umukobwa, umusore ni umukwe, umukobwa n'umugeni bagaragiwe n'abantu babaherekeje, ku ruhande haragaragara umuntu umwe, inyuma yabo hari umuntu no ku rundi ruhande hari umuntu nubwo atagaragajwe neza, aba ni abageni.

Inzu nini yubatse ikaba igaragaza ko hari ibinyabiziga: imodoka, amamoto, abantu, bigaragara ko hano atari aho batangira serivisi runaka, hari ahantu hatangira ibikorwa by'ubuvuzi cyangwa se hakaba ari ku rusengero bitewe n'uko hagaragara.

Abaturage bateraniye hamwe aha hantu bari wagira ngo ni ku kigo cy'amashuri, bigaragara ko ari ku kigo cy'amashuri, bakaba bashobora kuba ari abakozi b'ikigo cy'amashuri cyangwa se ari ababyeyi baharerera bari kumwe n'abakozi b'ikigo cy'amashuri bakaba bamaze kugirana ibiganiro runaka noneho bari kwifotoza.

Icyapa kigaragaza ibyerekezo by'imihanda, iki cyapa kiragaragaza ko nukomeza imbere uraba urimo ujya Kagitumba, wakata iburyo ukaba arimo ujya mu mujyi wa Nyagatare ndetse wakata iburyo ukaba uri ujya ku bitaro bya Nyagatare.

Abana barimo bakina umupira w'amaguru, birasa nkaho barimo bawukinira mu muhanda cyangwa se mu kibuga kidakoze neza kuko iki kibuga kirimo imicanga n'ivumbi, umwana aramutse aguye hasi yakomereka, abana ni batatu.